Abantu bari mu cyumba kiberamo inama, amadirishya arafunguye, ndetse bambaye imyambaro imwe y'umweru iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bicaye ku meza amwe yuzuyeho ibitabo ndetse n'impapuro hariho n'amazi yo kunywa, hari ubahagaze hejuru wambaye umupira w'ubururu aberekera.

Icyumba kinini kiberamo inama amatara aratanga urumuri ruhagije, abantu bicaye mu ntebe bamwe imbere yabo hariho ameza ateretseho amazi yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo.

Abantu biganjemo abagabo ndetse n'abasore bicaye mu cyumba cy'inama urumuri rurahari ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Icyumba cy'inama, amadirishya arafunguye aratanga urumuri, harimo ingeri z'abantu benshi, imbere hari ameza ateretseho igitambaro, hicayeho abantu bane bameze nk'abari kuyobora inama, harimo umwe wambaye umwenda wa gisirikare ndetse hari n'ibinyobwa bitandukanye amazi ndetse n'imitobe.

Ibiganiro byabereye mu cyumba cy'inama, abantu bose bakurikiye umuntu umwe biga ku bintu bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari ibikorwa bya leta.

Abantu bicaye neza mu ntebe zo mu biro, bicaye ku meza y'ibiganiro, baganira ku ngingo imwe, imbere yabo hari ameza ariho amakayi ndetse n'ibipapuro.

Umugabo wambaye umupira uriho ikirangantego cy'ikigo arasobanurira serivisi za leta ku baturage bicaye mu mahema ndetse ku mpande hagiye hari ibyapa byamamaza uwo mushinga.

Abantu batanu barimo abagabo babiri ndetse n'abategarugori batatu. Bicaye imbere y'abandi, baratanga ikiganiro ku bijyanye n'ubukerarugendo bukorerwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu cyumba kiberamo inama zo mu kazi. Abantu bicaye neza mu ntebe zo mu biro, imbere yabo hari ameza ateretseho za mudasobwa ndetse n'indangururamajwi. Ubayoboye yicaye ku ruhande, yambaye ikositimu y'umukara.

Inteko rusangege y'abaturage, hari abaturage b'ingeri zitandukanye; abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru. Hari amahema abiri ateye mu buryo bwegeranye, bamwe bicaye mu mahema abandi bicaye mu busitani barakurikira umugabo.

Abagabo bane ndetse n'umudamu umwe bicaye ku meza y'ibiganiro baganira ku ngingo imwe batanga ibitekerezo ndetse banungurana ibitekerezo harimo harakoreshwa imashini za mudasobwa ndetse na za telefone bamwe barasoma mu bitabo abandi bareba muri izo mashini za mudasobwa.

Icyumba cy'inama amatara arazimije umugabo arahagaze afite indangururamajwi arimo atanga ikiganiro ku bandi bicaye neza mu byicaro byabo.

Mu cyumba kirekire kiri kuberamo inama abanyeshuri bambaye impuzankano y'ikigo barakurikira umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara, ufite indangururamajwi icyumba harimo urumuri ruke.

Umugabo wimisatsi mike, wambaye ikositimu ndetse n'ishati ,wambaye impeta mu rutoki. Imbere ye hari indangururamajwi ndetse aratanga ikiganiro yicaye mu ntebe zo mu biro. ari kumwe n'abandi bamukurikiye.

Inama yahurijemo abagabo n'abagore baganira ku nzego ku ngingo zigiye zitandukanye imbere yaboho hari mikoro zibafasha gusakaza amajwi ndetse n'amazi yo kunywa bambaye ikositimu mu rwego rw'akazi.

umugabo w'umusatsi muke cyane wambaye amadarubindi, wambaye ikositimu y'ubururu bwijimye ndetse nishati y'umweru warengegejeho ikaruvati yicaye kumeza ariho amazi yo...

Abantu batandukanye bicaye ku meza y'ibiganiro bakurikirana ndetse banatanga ibitekerezo ku kintu runaka. Bafite mudasobwa ndetse n'amatelefone, bafite n'ibinyobwa by'amazi byo kunywa.

Ingeri zitandukanye z'abantu bakurikiye inama bicaye bari mu matsinda atandukanye, harimo abagore, abagabo, ingimbi n'abasore, imbere hateretse ibinyobwa by'Inyange (amazi).

Abadamu batanu bicaye imbere ku meza y'abayobozi umwe arahagaze abandi bane baricaye, imbere y'abo hari ameza bari gutanga ibiganiro bijyanye na serivisi za leta.

Umugabo uhagaze atanga ikiganiro, har’iruhande rwe abandi bicaye ku meza bafite za mudasobwa ndetse n'ibitabo, imbere yabo kur’ayo meza hariho amazi yo kunywa.

Abadamu babiri umwe witandiye, undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara barasinya ndetse bakuzuza ku bipapuro bibateretse imbere ku meza iriho amazi ndetse n'ibindi bipapuro byabugenewe.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina afite icyuma ndangurura majwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ahagaze impande y'akameza k'ikirahure kateretsweho terefone ndetse n'udutabo, ari imbere y'abantu bicaye, inyuma yabo hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Abantu batatu barimo abagore babiri, bakurikiye umugabo urimo aravuga, yambaye ikositimu y'umukara ishati y'ubururu, ndetse' karuvati yu'bururu bwijimye, bicaye kumeza y'ibiganiro ariho n'amazi yo kunywa.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wicaye ku meza y'ibiganiro; bafite ikoranabuhanga imbere yabo za mudasobwa, amatelefone ndetse hari n'amakayi; buri wese afite indangururamajwi imbere ye; inyuma hari icyapa cyiganjemo ibara ry'ubururu.

Icyumba kinini kiberamo inama zikomeye mu Gihuhu, amatara aratanga urumuri ruhagije, abantu bicaye mu ntebe ndetse imbere hari abayobozi bambaye imyenda y'akazi. Hari utumeza duteretseho ibyo kunywa.

Inama y'urugaga rw'abayobozi mu Rwanda, harimo ameza apanze mu buryo bw'inama, harimo abantu bagiyr batandukanye, abagabo n'abagore, umuyobozi w'ikiganiro ari imbere ari gutanga ikiganiro.

Icyumba kinini kiberamo ibikorwa birimo nk'inama, kirimo urumuri ruri gutangwa n'amatara menshi ndetse hari n'abantu benshi bicaye mu ntebe ndetse bakurikiye imbere, hasi hari mu ibara ry'ubururu bwiganje.

Mu cyumba kinini kiberamo inama zikomeye, abari n'abategarugori benshi bicaye mu ntebe zisa neza. Umugore, bambaye imyenda ya kinyarwanda ndetse baranasokoje neza.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abasaza, abakecuru, abagore ndetse n'urubyiruko, bakurikiye serivise za leta zirimo zirasobanurwa n'umudamu uhagaze ufite indangururamajwi, mu baturage harimo umugabo wambaye imyenda y'akazi k'ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda.

Mu cyumba kiberamo inama harimo abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hicaye abagabo babiri umwe wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'undi wambaye ikositimu y'ibara ririmo umweru werurutse, uwambaye ikositimu y'ibara ryerurutse yambaye n'amadarubindi ndetse imbere yabo hariho ibirahure byo kunyweramo amazi.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Mu cyumba kinini kigezweho kiberamo inama, harimo urumuri rw'umuhondo rutangwa n'amatara menshi ndetse n'urumuri rw'umweru ruri gutangwa n'amatara. Harimo abantu b'ingeri zitandukanye bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho icyo kunywa ndetse n'ibipapuro.

Abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, umugabo umwe wambaye ishati ijya gusa umukara, umugore wambaye ishati yerurutse umugabo w'undi yambaye ishati irimo utubara, umugabo w'ishati y'umukara aratanga ikiganiro imbere y'abantu, imbere y'abo hariho ameza ateretseho mudasobwa n'mazi yo kunywa.

Icyapa cyamamaza uburyo bwo kwirinda ihererekanywa ry'icyorezo cya Korona virusi, harimo kudahererekanya amafaranga mu ntoki ahubwo hagakoreshwa serivisi zo ku ikoranabuhanga, koga intoki buri gihe, gusiga intera hagati yawe na mugenzi wawe ndetse no kwambara agapfukamunwa, kwirinda gusuhuzanya.

Urubuga rwa leta rufasha abaturage mu guhabwa serivisi zigiye zitandukanye rwitwa irembo rwerekana ibikenerwa kugira umuntu ahabwe serivisi hano bari kwaka harimo iby'uko umuntu afite indangamuntu imuranga akaba afite uruhushya rwo gutwara, akaba afite na telefone ngendanwa.

Urubuga rwa leta rwo kuri murandasi rutangirwaho serivisi zitandukanye, harimo n'izo kwandikisha imishinga y'ubucuruzi, hariho idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya leta y'u Rwanda, hari uburyo wabahamagaraho ndetse n'uburyo wakinjira winjiza ibyo ushaka kwandikisha.

Urubuga rwo ku murandasi rw'ikigo cya leta gishinzwe uburezi mu Rwanda REB, abanyeshuri barakanda akantu n'akandi bambaye impuzankano y'ishuri.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bwa etage igerekeranyije isize amabara y'ubururu, umweru hejuru ibirahure birijimye hirya gato hari imodoka nziza yahagaze urabona ko ari ibintu byiza cyane.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo gishinzwe iterambere n'ibikorwa remezo RURA mu Rwanda, kiriho kirerekana ingingo zitandukanye zigaragaza imyirondoro y'ugiye kwinjira mu rubuga ndetse n'uburyo wabasha kuvugisha abari gukoresha urwo rubuga.

Itangazo ry'ikigo gishinzwe ibikorwa remezo bya leta, cyibutsa agaciro ndetse n'igiciro kigomba kugurirwaho gaze mu Rwanda, kingana n'igihumbi na mirongo inani nane y'amanyarwanda kuri buri kiro.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cya leta gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu gihugu, ruriho uburyo wakinjiramo, amazina yawe cyangwa icyangombwa cyawe ndetse n'ijambo ibanga ryawe.

Kwamamaza umuganga uri gutanga urukingo ku murwayi runaka binyuze mu rushinge, hasigaye iminsi ibiri ngo urukingo rutangwe.

Ikiranga ntego cy'ikigo cya leta gishinzwe ibikorwa remezo cyitwa rura, amagambo yanditse m’ibara ry'ubururu manini ndetse n'andi magambo yanditse mu mabara y'umukara mato.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cya leta gitanga serivisi z'ibikorwa remezo mu Rwanda, kirerekana ibigize ndetse n'uburyo wabona serivisi zabo binyuze kuri murandasi, higanjemo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inyandiko ibaza umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda hakaba hasi hariho imyirondoro wabonaho abashinzwe imisoro namahoro mu Rwanda.

Umunara muremure ukozwe mu byuma usize amarangi agiye aherekeranye umutuku n'umweru, inyuma hari ibiti bimeze neza by'ubwoko bugiye butandukanye.

Mu ishuri ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, ishati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara n'amajipo, bafite murandasi imbere yabo ku meza buri wese ku meza ye.

Itangazo ryanditse rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda, igaragaza amasaha y'akazi mashya, amasaha y'akazi ni umunani guhera saa mbili za mu gitondo kugera saa kumi n'imwe za ni mugoroba.

Abantu benshi bicaye ku meza amwe, bicaye ku ntebe ziteye kimwe. higanjemo abagabo ndetse imbere yabo ku meza yabo hariho za mudasobwa, bicaye ku ibaraza ry'inzu ku ruhande hari indabyo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rw'ikigo gikuru gishinzwe iterambere mu gihugu aradibi ruriho idarapo ry'u Rwanda ndetse rukaba rugizwe ahanini n'ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'ayanditse mu ibara ry'umutuku.

Ku rubuga rwo kuri murandasi harerekanwa uburyo ushobora kwisabira icyemezo cy'uko utuye, ku rubuga rwa leta y'u Rwanda rutangirwaho serivisi za leta rwitwa irembo, hagaragara igiciro wishyura kugira ngo ubone icyo cyemezo cyerekana ko uri umuntu utuye.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu urimo umweru, uhagaze imbere y'ibimashini bitanga amashanyarazi ndetse bikanayatunganya, hari n'ipilone ryo rikozwe mu byuma rishobora guha amashanyarazi mu baturage.

Icyapa cyamamaza cya sosiyete ishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, hariho telefone irimo kode akanyenyeri magana inani urwego yifashishwa mu kwishyura imisoro hakaba hariho n'amafaranga y'amanyarwanda ibihumbi bitanu afunze mu mabandari.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo cyegereye inzu zikorerwamo ubucuruzi, hari akazu kari mu ibara ry'umweru gatangirwamo serivisi zitandukanye z'itumanaho ndetse n'iryo kohereza no kwakira amafaranga binyuze kuri murandasi.

Itangazo rimenyesha ry'ikigo gishinzwe ibidukikije "rura" mu Rwanda; ryerekana ikoreshwa rya gaze mu ngo mu Rwanda. Ritanga amabwiriza agomba gukurikizwa, ndetse hakaba hari n'imbuga nkoranyambaga z'icyo kigo.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho serivisi zitandukanye z'irembo, ruragaragaramo ibara ry'ubururu ryiganje ndetse n'amagambo yanditse mu mweru. Ni urupapuro rutanga icyemezo cy'uwarokotse jenoside, ukeneye ubufasha uhabona nimero ubarizaho.

Ipirone rikozwe mu byuma rirerire rishinzwe kwakira ndetse no kugemura umuriro w'amashanyarazi binyuze mu nsinga zikoreye zivana umuriro mu rugomero ziwujyana mu baturage, inyuma hari ishyamba rinini ry'ibiti by'inzitane.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Ipoto rireririre ririho insinga zitandukanye zifashishwa mu kohereza amashanyarazi mu baturage ziyavanye ku ngomero ndetse nahoho aba yakusanyirijwe. Inyuma hari ibiti by'inganzamarumbu.

Imashini zo ku rugomero zifasha kongera cyangwa kugabanya ubushobozi bw'umuriro kugira ngo woherezwe mu baturage uri ku kigero gikwiye, hari abakozi bambaye imyenda y'akazi.

Iyi ni inzu ifite idirishya ndetse n'urugi biri mw ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo ari mw'ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Ipoto ry'amashanyarazi ririho imashini ifasha mu kongera ndetse no kugabanya ubushobozi bw'amashanyarazi, kugira ngo abashe koherezwa mu baturage ntagire icyo yangiza.

Amapoto maremare yikoreye insinga zivuye ku ngomero zijya mu baturage zijyanye amashanyarazi ndetse hari n'amatara, yifashishwa mu muhanda mu gihe k'ijoro, hari ubusitani ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo.

Ipoto riri ku manga rikozwe mu byuma bitandukanye, ryifashishwa mu kwakira ndetse no gutanga amashanyarazi, aho ryakira amashanyarazi avuye mu ngomero ziyohereza mu baturage aho bari.

Icyumba kigizwe n'amarange y'umuhondo, harimo imashini zigiye zitandukanye z'ubwoko butandukanye, harimo imashini zifashishwa mu mashanyarazi ndetse no gukupa no gukupura amashanyarazi ndetse no kuyayobora mu baturage.

Mu nsisiro, ibiti ndetse n'amapoto byikoreye insinga z'amashanyarazi zigemuye amashanyarazi mu baturage ziyakuye ku rugomero.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ibikoresho byifashishwa bagabanya ubushobozi bw'amashanyarazi avuye ku rugomero, kugira bayagabanyirize imbaraga abashe kugera mu ngo z'abaturage atagize icyo yangiza, barayongera cyangwa bakayagabanyiriza imbaraga.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho amagambo ndetse n'ikirangantego cya sosiyete itanga serivisi z'amashanyarazi akomoka ku ngufu mu Rwanda, hari inyuma yacyo hari imashini ndetse n'amapoto akoze mu byuma yifashishwa mu kugemura ndetse no kwakira insinga zohereza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda muto w'igitaka urimo ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi, zigemuye amashanyarazi mu baturage, munsi yaryo hari umutaka w'ikigo gitanga serivisi z'itumanaho hahagazemo abantu, ku ruhande hari ubusitani burimo ibyatsi.

Umuntu wambaye imyenda y'akazi, uri ku rwego rukozwe mu cyuma rufashe ku ipoto itwara insinga z'amashanyarazi, arategura ndetse akanakemura ibibazo byabaye kuri iryo poto, ritwara insinga z'amashanyarazi.

Igikorwa remezo cy'amashanyarazi, ipoto ifashe insinga z'amashanyarazi zijyanwa mu nzu z'abaturage, zigemura amashanyarazi mu baturage, inyuma hari inzu zitandukanye ndetse n'ibyapa bitandukanye.

Ubusitani buto bwo ku muhanda hateyemo indabyo ndetse n'ibiti, harimo ipoto ritwaye insinga z'amashanyarazi ajyana amashanyarazi mu baturage, inyuma hari amazu yubatse mu magorofa ndetse n'ibyuma bishyushya amazi yo muri ayo mazu.

Abagabo bagera kuri batanu bamanitse ku ipoto ry'amashanyarazi rikozwe mu byuma bambaye imyenda yabugenewe, ingofero zabugenewe zo mu kazi, imikandara yo kubarinda, bahagaze bareba muri kamera.

Igikorwaremezo kinini cy'inyubako itangirwamo serivisi za leta, ku ibaraza ry'iyo nzu hari intebe zirenga makumyabiri, zicarwaho n'abantu, hari abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu byerekezo bitandukanye.

Inzu yubakishije amakaro, amatara araka, utwumba tugabanyijemo ibice bitandukanye, bitandukanyijwe ndetse n'umwambaro, abantu baragenda abandi baricaye, umugore yambaye umupira w'umweru afite imisatsi myinshi arafata ibintu bigiye bitandukanye.

Aho bacuruza amata ya miliki zone hari firigo irimo amabido n'amacupa y'amaji n'amazi, hagaragara abantu babiri umwana ndetse n'umugabo waje kugura.

Igikorwa remezo kinini kirimo inzu zitandukanye zubatse neza, harimo ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibigega bifata amazi, hari ibinyabiziga bihagaze birimo ibigendera ku mapine abiri ndetse n'ibigendera ku mapine ane, hari urujya n'uruza rw'abantu.

Icyumba kigezweho kifashishwa mu kubona serivisi za murandasi harimo intebe zitandukanye ndetse n'ameza atetseho za mudasobwa, abantu baricaye bari kuzikoresha.

Imodoka nini itanga serivisi za leta zo kugeza abarwayi ku bitaro n'inkomere, iri mu ibara ry'umweru ifite ndetse n'imisaraba iri mu ibara ry'umutuku, hari ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku.

Igikorwaremezo kitangirwaho serivisi za leta hari ibyicaro bikozwe mu mbaho abantu bicaraho hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe.

Idarapo ry'igihugu cy'u rwanda rimanitse mu busitani n'ibitaro hagaragara umugore n'umwana bagenda ku ruhande hari inyubako y'ibyo bitaro.

Igikorwa remezo cya reta kirimo inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'inyubako n'akabaraza, hari urujya n'uruza rw'abantu.

Ikirere cyiganjemo imvura umubyeyi uri gutambuka mu muhanda agana ku modoka nyinshi , ku ruhande rwe hari ibyapa bibiri by'ubururu ndetse n'uburu bwijimye hakaba n'ipiloni ry'amashanyarazi rikoreshwa mu gutanga amashanyarazi.

Igikorwaremezo cy'inyubako nini gitangirwamo serivisi za leta, ku ruhande hari ubusitani bunini burimo indabyo ndetse n'ibiti bikiri bito, harimo ndetse n'ikigega cyifashishwa mu gufata amazi.

Icyapa kiranga igikorwa remezo cy'ivuriro rya Kacyiru, hariho idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya Leta y'u Rwanda, hariho ndetse n'aho ubuyobozi bw'ibitaro buba, ndetse na serivisi zose zitangirwa mo aho z'ubuvuzi.

Itsinda ry'abantu b'ingeri zitandukanye harimo ab'uruhu rwera ndetse n'abirabura, harimo uwambaye imyenda y'abaganga bagenda mu kayira k'abanyamaguru ndetse bari no ku ivuriro rya Masaka.

Ibaraza ry'inzu hari ibyicaro by'abantu bategereje, hari ndetse na kizimyamoto ikoreshwa habaye inkongi y'umuriro n'ibimenyetso byerekana ubwiherero bw'abantu batandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye, abasaza, abakecuru, abagabo, abagore ndetse n'abana, bamwe bicaye abandi bahagaze bategereje guhabwa serivisi za leta.

Abantu batatu harimo umugabo ndetse n'abagore babiri bambaye imyenda y'abacamanza isa umutuku irimo n'umweru bambaye ingofero z'abacamanza umugore n'umugabo barasuhuzanya bahana urupapuro.

Umugabo wirabura cyane wambaye amadarubindi, wambaye ndetse n'imyambaro yambarwa n'abagororwa mu Rwanda inyuma ye hari amadirishya ariho igipapuro.

Umugabo w'imisatsi mikeya wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'umweru ni karuvati n'ikoti, ari kumwe nundi mugabo w'umusatsi muke cyane wambaye ikanzu yambarwa n'abacamanza cyangwa abavoka.

Abantu b'ingeri zitandukanye benshi bambaye impuzankano z'imfungwa mu Rwanda risa iroza ndetse hari n'abashinzwe umutekano bafite ibikoresho by'intambara, bambaye na bo imyenda igaragaza ko bari mu kazi, bahagaze imbere y'inyubako iriho ikirangantego cy'ubutabera.

Umugabo wirabura cyane, ufite umusatsi muke cyane, yambaye ishati arenzaho karuvati ndetse ashiraho igishura cy'abacamanza gifite amabara y'umutuku n'umweru.

Abagabo bagera kuri batanu bicaye imbere y'ameza, bafite ibipapuro ndetse n'amakayi ndetse n'ikashi, barareba mu mpapuro bambaye imyenda irimo akadarapo k'igihugu cy'u Rwanda.

Mu cyumba kiberamo inama cyangwa ibindi bikorwa, abagabo babiri bicaye mu ntebe nziza bambaye ibishura byambarwa n'abantu bakora akazi k'ubucamanza bisa umutuku harimo n'ibara ry'umweru, umwe afashe indangururamajwi ndetse imbere yabo hariho imeza iriho ibinyobwa n'ingofero zabo.

Abagabo babiri bari kugenda umwe wambaye impuzankano y'abagororwa mu rwanda i roza, ndetse n'agapfukamunwa afite igitabo mu ntoki inyuma hari abashinzwe umutekano.

Mu cyumba gikorerwamo iburanisha harimo intebe, bamwe baricaye, abandi barahagaze. Imbere hari umugabo wambaye agapfukanwa k'umweru, wambaye ikositimu ndetse wambaye n'amapingu, ufite igitabo. Ku mpande ze hicaye umugabo n'umugore bambaye imyenda y'ababuranisha.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe, ufite ubwanwa bwo hejuru, wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye: ubururu, umweru n'umukara, wambariyemo ishati araburanishwa.

Inzu y'inkuta ndende zubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'umunara muremure wubakishije ibyuma, ukaba ari umunara wifashishwa mu gucunga.

Icyumba kinini kiberamo iburanishwa imbere hicaye abacamanza bagera kuri bane, ndetse n'ufata amashusho uhagaze, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye impuzankano y'ingororwa, mu Rwanda ahagararanye n'umuburanira imbere yabo hari indangururamajwi.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Mu cyumba kinini kiberamo inama zikomeye hari amatara atanga urumuri ruhagije hari ndetse n'amabendera y'idalapo ry'u rwanda, abagabo n'abagore bahagaze imbere bambaye amakanzu yambarwa n'abavoka inyuma yabo hari ndetse n'imbaga yicaye.

umuhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga k'ipikipiki iriho umugabo wambaye imyenda y'akazi k'ikigo gishinzwe umutekano wo mu muhanda, ku ruhande hari imodoka y'amapine ane, ndetse n'umuntu uyihagaze inyuma ku ruhande hari ubusitani ndetse n'ibiti byinshi, ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Igikamyo cy'urwego rushinzwe umutekano hano mu rwanda kigendera mu muhanda urimo ibindi binyabiziga harimo amapikipiki n'imodoka zitandukanye.

Mu nyubako yubatse neza igezweho yubakishije amakaro ni igihombo cy'umutuku gishobora gukoreshwa cyohereza amazi mu gihe ahantu hafashwe n'inkongi, mu gihe ubutabazi bw'ibanze butari bwahagera.

Ibikoresho bibiri byitwa kizimyamowoto bikoreshwa bazimya inkongi y'umuriro idahambaye biziritse ahantu ku gikuta cy'inzu bikoreshwa habaye impanuka y'inkongi y'umuriro.

Igikoresho kizwi cyane cyifashishwa mu kwirinda ndetse no gukumira inkongi y'imiriro giteretse ku nzu, gifite umupira w'umukara ari na wo ucamo wohereza umwuka ujya kuzimya inkongi y'umuriro kiri mu ibara ry'umutuku, hasi hari akadobo gashyirwamo imyanda.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya ndetse no kwirinda inkongi z'imiriro biteretse ku gikuta, bizwi ku izina rya kizimyamoto biri mu mabara y'umutuku ndetse buri kimwe gifite umupira uri ku mutwe wacyo wifashishwa mu kohereza ibizimya inkongi y'umuriro.

Imodoka y'urwego rushinzwe umutekano mu Rwanda, ifasha mu gutabara ndetse no kurinda inkongi z'imiriro, hagaragaramo inzu yafashwe n'inkongi ku mabati.

Ibikoresho bishya biri mu ibara ry'umutuku biri no mu mashashi byifashishwa mu kwirinda inkongi ndetse no kuyikumira. Ibi bikoresho bizwi ku izina rya kizimyamwoto, biteretse ahantu hamwe ari byinshi.

Ibikoresho byifashishwa mu gutabara ndetse no kwirinda inkongi y'imuriro, bizwi ku izina rya kizimyamoto, riri mu mabara atandukanye, imwe nini iri mu ibara ry'umweru, indi ntoya iri mu ibara ry'umutuku.

Icyapa kiranga urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano polisi ishami rya Rwezamenyo, akarere ka Nyarugenge. Nimero zigendanwa bababonaho n'imyirondoro yabo.

Ibikoresho bikunda kwifashishwa barinda ndetse banarwanya inkongi y'imiriro biri mu ibara ry'umutuku ndetse n'imitwe ikozwe mu ibara ry'icyatsi biretse hasi inyuma hari ibikarito n'imifuka.

Ibikoresho bibiri byo miu ibara ry'umutuku bizwi cyane ku izina rya kizimyamoto bikoreshwa harwanya ndetse hirinda inkongi y'umuriro, biteretse mu nzu imwe iramanitse indi iteretse hasi.

Igikorwaremezo k'inyubako ziriho ikirangantego k'ikigo gishinzwe umutekano mu baturage polisi ishami rya Gisozi, imbere ku ibaraza hari ubusitani burimo indabyo, ndetse hari n'abagabo bambaye impuzankano z'icyo kigo.

Umugore waziritse imisatsi ufite ikaramu ndetse n'igipapuro, arashyira igipapuro mu isanduku irimo utundi dupapuro ndetse inyuma ye hari amabara y'ibendera ry'u Rwanda ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Mu cyumba kinini giteraniyemo uruvange rw'abantu b'ingeri zitandukanye abasaza, abakecuru, abana ndetse n'abagore uwo mugore azamuye amaboko ye ashimira, yambaye ikanzu y'ubururu ndetse afite n'imisatsi miremire.

Umukuru w'igihugu cya repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ahagaze imbere y'indangururamajwi mu mbaga y'abantu b'ingeri zitandukanye muri sitade aratanga imbwirwaruhame.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Imodoka y'ikamyo dayihatso isa nk'ijyanye ibicuruzwa, inyuma hari moto n'indi modoka ya toyota biyikurikiye gusa harimo umwanya uhagije.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, agaragiwe n'umufasha we Jeannette Kagame berekeza mu byicaro byabo muri stade irimo abaturage benshi ndetse n'abayobozi bamwe.

Umugore w'imisatsi miremire wambaye amaherena ku matwi, yambaye ikote ry'ubururu, afite igipapuro mu ntoki, imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'amazi, ku ruhande hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Perezida w'igihugu cya Repubulika y'U Rwanda Paul KAGAME, ahagaze mu ruhame rw'abaturage bafite ibyapa biriho amashusho ye, ndetse bafite n'utudarapo turiho ishyaka riri ku butegetsi rya FPR.

Mu cyumba kinini gikorerwamo inama, harimo amatara atanga urumuri ndetse hari imbaga nini y'abantu, imbere hicaye ndetse n'abantu bicaye mu ntebe zo mu biro bafite n'amakayi n'amakaramu.

Umukandida w'umuryango wa Efuperi, ku buyobozi bw'igihugu perezida Paul Kagame amanitse akaboko, yambaye umupira uriho ibirango by'uwo muryango, inyuma hari abaturage bishimye bamanitse amadarapo by'uwo muryango.

Umugabo muremure w'imisatsi migufiya wambaye ishati irimo uturongo ndetse n'ikaruvati y'umutuku ufashe indangururamajwi ndetse wambaye isaha, ahagaze inyuma ye hari icyapa kiriho uruganda rutunganya ndetse rugakora n'ibikomoka ku ikawa rya Rutsiro.

Icyumba cy'inama hari kuberamo inama iyobowe na perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame ndetse n'abandi bayobozi bakuru bo mu gihugu abatumirwa bose barahagaze baririmba indirimbo y'igihugu.

Umugabo w'umuyobozi wambaye imyambaro y'akazi y'umukara ishati y'umweru karavate y'umutuku ureba muri kamera hirya ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wicaye mu ntebe zo mu biro, wambaye ikositimu y'umukara n'ishati y'umweru warengejeho ikaruvati y'umukara. Imbere ye hari indangururamajwi ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umubyeyi w'umumama wambaye amarinete ndetse ufite n'imisatsi miremire, azamuye akaboko afashe ndetse no ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda imbere ye hari indangururamajwi.

Umuyobozi w'umudamu araganira n'abamukurikira akoresheje indangururamajwi. Ahagarariye Dalufa Umurinzi. Akaba agaragiwe n'abari batatu bambaye ibirango bya Dalufa Umurinzi aribyo by'icyatsi ndetse n'amajipo y'umweru.

Ikoraniro rigizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abana, abagore, abagabo, baricaye abandi barahagaze bakurikiranye umugore ufite indangururamajwi uhagaze imbere yabo.

Umugabo wirabura wambaye umupira uririmo ikirangantego cy'ishyaka ndetse ufite indangururamajwi iriho darapo iririho ishyaka ahagaze mu baturage rwagati aratanga imbwirwaruhame.

Abagabo ndetse n'abagore bagera kuri batanu bambaye imyenda isa y'umweru iriho ikirangantego, barategura impapuro bazitekareka ku meza ndetse imbere ku meza yaho hari amazi yo kunywa.

Ikoraniro ry'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abana, ndetse n'abakecuru, n'abasaza. Bakurikiye umugabo wirabura, ufite indangururamajw, wambaye ishati y'umweru, ikaruvate y'umutuku, ndetse n'ipantaro y'ubururu.

Umudamu w'imisatsi miremire, wambaye amadarubindi, wambaye agapira k'ibara ry'umweru, ndetse n'ikositimu y'umukara. Arasoma ibintu biri ku gipapuro, yegereye ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Icyumba k'inama kinini amatarari atanga urumuri, harimo abari n'abategarugori benshi, imbere hari abagore bane bambaye amakarita mu ijosi meza, hariho ibinyobwa bitandukanye.

Umugabo ukuze ufite umusatsi muke cyane, uri mucyumba cy'akazi wicaye ku ntebe; wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'utubara, ndetse ufite n'ikaramu. Inyuma ye hari idaraporo ry'igihugu cyu Rwanda.

Umugabo wambaye ishati iriho ikirangantego cy'ishyaka, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, ahagaze ndetse ku mpande ze hari abandi bicaye mu ntebe imbere yabo hateretse ameza ariho amazi yo kunywa.

Icyumba kinini kiberamo inama, kirimo amatara amurika cyane ndetse n'abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye bakurikiye inama; bose bafite ikoranabuhanga imbere yabo za mudasobwa ndetse n'indangururamajwi; bambaye imyenda y'akazi.

Umuhanda munini wa kaburimbo uriko ikinyabiziga kinini kizwi ku izina ry'ikamyo, gitwaye imizigo gipfundikishijwe na shitingi ku ruhande, hari umuntu uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru.

Imodoka nini ya rukururana y'umutuku itwaye imizigo myinshi itwikiriwe na shitingi ikaba iziritswe n'imishipiri, iruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse na ruhurura icamo amazi.

Isoko ry'imboga ririmo abantu bagiye batandukanye hari umucuruzi ari gutonora ibishyimbo hari ibitunguru, harimo amashaza, inyanya ndetse harimo n'abandi benshi.

Akanyabiziga gatoya kifashishwa mu gutwara imizigo itari myinshi, gakozwe mu byuma gafite amapine abiri, gahagaze ahantu hari abantu b'ingeri zitandukanye, bari muri serivisi zabo bahaha ndetse bakanacuruza ndetse hari n'ipoto ryikorera insinga z'amashanyarazi.

Ibinyabiziga bihagaze imbere y'inyubako y'ubucuruzi, ifite amatara amurika cyane ibinyabiziga birimo ibigendera ku mapine ane, ndetse n'ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri byegereye agahanda k'abanyamaguru.

Umuyobozi w'ikinyamitende kigendera ku mapine abiri, uhetse umugenzi ufite umuzigo babisikana n'igikamyo kinini kitatse mu mabara y'umweru gitwara imizigo.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Igikorwa remezo kinini cya leta kirimo umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo amapikipiki atwaye abagenzi ndetse harimo n'imodoka itwara abagenzi benshi iri mu ibara ry'umweru, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse n'inyuma y'iyo modoka hari ibiti by'inganzamarumbo.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye. Urimo ipikipiki igendera ku mapine atatu, itwara imizigo, ndetse n'igikamyo gitwaye imizigo ya matora. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda uririmo imodoka zitandukanye, imodoka y'umweru nini isa n'iyikoreye ibintu iri kuruhande rw'umuhanda iparitse cyangwa ihagaze kikirihe gito, hari n'indi modoka nini y'ubururu imbere aho ndetse n'imodoka nayoy'u umuhanda urimo kaburimbo ka, ikoze mabuye ku ruhande rw'umuhanda hagaragara ibiti byinshi bigaragaza ko ari ahantu hameze neza kandi hatuje.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru tuvunaguye, harimo ikinyabiziga kigendera ku mapine atatu kizwi nk'ipikipiki gitwara imizigo mikeya. Inyuma handitseho amagambo avuga ko cyakorewe mu Rwanda, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'abantu ku rundi ruhande.

Igikorwa remezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, ikinyabiziga kirasobeka kiva mu muhanda munini kigana mu muhanda mutoya ni ikinyabiziga cy'ikamyo itwara imizigo myinshi.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ipikipiki itwara abagenzi, hariho n'indi pikipiki itwara imizigo, hakaba ndetse n'ikamyo ntoya itwara imizigo ariko idapakiye.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo kirimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye by'ubwoko butandukanye. Harimo ikinyabiziga kinini cya rukururana gitwara imizigo minini ndetse hari n'ipikipiki ndetse n'igare. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru harimo abanyamaguru.

Mu muhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu hari ikinyabiziga gihagaze cyikoreye imizigo irimo ibyuma ndetse abagabo baragerageza kugiyambura ngo batware iyo mizigo hejuru yacyo hari ibikorwa remezo by'inyubako zikorerwamo ubucuruzi ndetse n'iby'imiturire.

Akayira k'abanyamaguru ndetse n'akayira abanyamaguru bambukiramo mu muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amapikipiki hari n'ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, hari ikinyabiziga cy'ipikipiki igendera ku mapine abiri kiriho uwambaye umwenda w'akazi, inyuma hari ikinyabiziga kigendera ku mapine atatu gitwara imizigo.

Umuhanda nyabagendwa urimo igikamyo cy'umutuku kinini cyegereye aho abanyamaguru bambukira, gisa umutuku, cyikoreye umucanga harimo n'ibindi binyabiziga, harimo amagare ndetse n'amamodoka n'amapikipiki

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo minini harimo umumotari wambaye umwenda w'akazi uzamuka agana ku kayira abanyamaguru bambukiramo ku ruhande inyuma ye hari ibyapa ndetse hari n'ubusitani butoya buteyemo indabyo ndetse n'ibiti inyuma ye cyane hari amatara yo mu muhanda atanga urumuri nijoro.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo iremereye kandi myinshi, ku ruhande hari utuyira tubiri tw'abanyamaguru ndetse inyuma hari ibiti by'inganzamarumbu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, harimo ipikipiki igendera ku mapine atatu yifashishwa mu gutwara imizigo, hari imodoka, hari ndetse n'izifashishwa mu gutwara abagenzi benshi, hari n'amapikipiki atwara abagenzi.

Igikorwa remezo cy'umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, biririmo ikinyabiziga kigendera ku mapine atatu, kizwi nk'ipikipiki gitwara imizigo ndetse mbere yacyo hari ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri, nabyo bizwi ku mapikipiki ndetse bitwara abagenzi gusa.

Umugabo uhetse igikapu ufite ubumuga bw'ingingo uri kugendera ku mbago, imbere ye hari ibinyabiziga bibiri, ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu, hari ikinyabiziga gitwara abantu bakeya ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu benshi.

Umuhanda muto muto urimo ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri, igare rihetse umugenzi, ndetse n'abamotari babiri bambaye imyenda y'akazi batwaye abagenzi, inyuma hariyo ibikamyo binini bitwara imizigo biparitse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo cy'umutuku, kikoreye imizigo, inyuma hari ibidukikije birimo ibiti ndetse hari n'akayira k'amayamaguru.

Umuhanda uramburiye wa kaburimbo urimo imodoka z'ingeri zitandukanye, imodoka y'umweru itwara abagenzi n'imodoka y'umuntu ku giti cye, harimo imirongo itegeka umushoferi gukora cyangwa gukurikiza amabwiriza.

Igikorwa remezo kinini gikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu ndetse n'abantu, abantu baragenda, hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitwara abagenzi benshi, abantu bikoreye imizigo ndetse bambaye n'imyenda y'akazi.

Igikorwa remezo rusange kitangiza ibidukikije, kirimo inyubako zubatse mu buryo bugezweho, harimo ubusitani bugezweho, burimo indabyo ndetse n'ibiti. Harimo urujya n'uruza rw'abantu, hejuru hamanitse amatara, ariko atari gutanga urumuri.

Ahantu rusange hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'utuzu abantu bicaramo, hari urujya n'uruza rwinshi rw'abantu batandukanye, hari ibidukikije birimo ibiti ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi.

Igikorwaremezo remezo kinini cyifashishwa mu mukino wa tenisi ukinwa hakoreshejwe intoki, cyiganjemo umucanga ndetse hari naho abafana bicara ku ruhande hari amatara ndetse n'amapoto.

Igikorwa remezo kinini kirimo, ubwatsi bukinirwamo umupira w'amaguru n'ingeri zitandukanye, inyuma hari ibiti by'inganzamarumbu ndetse hari n'inzu z'imiturire.

Icyapa cyerekana ahantutu hari amatara yabugenewe yo mu muhanda, amatara agizwe n'umutuku umuhondo n'icyatsi. Umutuku uhagarariye guhagarara, umuhondo kwitegura guhaguruka, icyatsi guhaguruka.

Icyapa kinini kerekana ko inzira iragabanyuka ukase iburyo, kigiswe n'amabara atatu ari yo umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, gikozwe muri mpande eshatu.

Icyapa kiri mu ishusho na mpande eshatu kigizwe n'amabara atatu atandukanye, ariyo umutuku umuhondo ndetse n'umukara, harimo umuntu ugendera mu kayira kagenewe kwambukirwamo mu muhanda n'abanyamaguru.

Ihuriro ry'imihanda ibiri minini ya kaburimbo hari ubusitani buteyemo ibiti by'inganzamarumbo, icyapa cyerekana ko imodoka zidakwiye guhagarara igihe cy'umwanya muto ndetse hari n'ikinyabiziga cy'ipikipiki.

Icyapa kerekana amerekezo giherereye mu mujyi rwagati komeza uzamuka uraba ugana ku kibuga mpuzamahanga k'i Kanombe mu birometero bitanu, nukata ibumoso uragana ku nyubako ya Kigali komveshoni senta mu kilometero kimwe na metero maganabiri.

Abagabo bambaye imyenda y'akazi baramanika ibyapa bitandukanye byo mu muhanda icyapa cyo hejuru kigaragaza umuvuduko wa mirongo itandatu, icyapa cyo hasi kiragaragaza ko imbere hari imashini ifata amashusho y'ibinyabiziga byakoze amakosa mu muhanda.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigizwe n'amabara atatu atandukanye harimo umutuku umweru n'umukara, icyapa kigizwe na mpande eshatu kirimo ishusho y'umuntu wambuka mu kayira k'abanyamaguru.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'abara abiri yonyine ariyo umuhondo ndetse n'umukara agizwe muri, mu ishusho rya mpande enye ihengamye, akaba harimo n'inyuguti ya T iri mw'ibara ry'umukara.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi cyerurutse gikoreshwa haranga icyerekezo cyerekana icyerekezo cy'umuhanda uzamuka ugana ku Kanyaru, ibuye na za muhanga ndetse byerekana ko ukase ibumoso ugana ruhango ndetse na kinazi.

Icyapa gikoreshwa cyane cyane mu mihanda, kigizwe n'amabara abiri yiganje ubururu ndetse n'umweru gikozwe mu ruziga, kirerekana ko umuhanda urakomereza ibumoso.

Kuruhande rw'umuhanda ikozwe muri mpande eshatu zigizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umweru, ndetse n'umukara inyuma yaho hari ibiti by'inganzamarumbu ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda; kigizwe n'amabara atatu ariyo umutuku, umweru ndetse n'umukara, uruziga rukozwe mu mutuku ndetse n'imibaya yanditse mu mukara mirongo itandatu.

Icyapa kimanitse mu busitani bwegereye umuhanda wa kaburimbo, kiri mu mabara atatu hari umutuku, umukara ndetse n'umweru. Kuhande rwacyo hari akayira k'abanyamaguru karimo ndetse n'abantu bagenda.

Icyapa gikoreshwa mu mihanda icyapa kigizwe nuruziga rw'umutuku rurimo uruziga rw'ubururu ndetse muri urwo ruziga rw'ubururu harimo imirongo ibiri y'umweru idahura muri urwo ruziga rwose hacibwa umurongo utambika usizwe ibara ry'umutuku .

Umugabo n'umudamu bari mu nama, aho bari kuganira ku ngingo zimwe na zimwe, aho imbere yabo hari mikoro, byumvikana ko bari kuganiza abandi bantu ku ngingo zimwe na zimwe.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka Nyarugenge ikorerwamo ibikorwa bitandukanye yaba inama abantu bashaka kuruhuka abantu bashaka kuharara mu gihe cy'iminsi mikeya ndetse n'ibindi bikorwa .

Icyapa gikoreshwa mu muhanda wa kaburimbo kigaragaza aho abanyamaguru bambukira kigizwe n'amabara atandukanye atatu ari yo umutuku, umweru, ndetse n'umukara.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda cyerekana aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara ziteretse mu busitani bunini burimo ibiti ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigaragaza aho imodoka zitwara abagenzi zihagarara, giteretse mu busitani bunini cyane ndetse burimo n'ibiti, ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru hari abantu b'uruvange bahagaze.

Ibirango bigaragaza inyubako emutiyene ikoreramo, emutiyene ni ikigo gishinzwe itumanaho gikorera hafi ku isi yose. Iki kigo kiradufasha cyane kuko gituma tubasha kubona uko tuvugana n'abantu bacu bari kure ndetse tukaba twakohererezanya n'amafaranga.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda gikozwe mu ishusho y'uruziga, harimo amabara abiri yiganje ubururu ndetse n'umweru, harimo akamenyetso kari mu ibara ry'umweru kerekana ko hari umuhanda ukata ibumoso ndetse n'undi ukomeza uzamuka.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kirimo amabara abiri yiganje ubururu ndetse n'umweru, imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, icyapa gikoreshwa ahantu imodoka zitwara abagenzi zihagarara.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda; ni icyapa gikozwe muri mpande eshatu kigizwe n'amabara atatu, umutuku umweru wiganje ndetse n'akamenyetso kari mu ibara ry'umukara.

Igikorwa remezo kirimo imiryango itandukanye ikorerwamo serivisi z'ubucuruzi, igikorwa remezo cy'amagorofa atatu ndetse harimo ibyapa byamamaza ibikorwa bitangirwa muri icyo kinyubako.

Inzu zubatse mu buryo bw'ubucucike zubakishije amatafari ahiye harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bari mu mirimo y'ubwubatsi ndetse no gusana hari amashyamba ndetse n'ubusitani hari imashini zubaka n'izisenya .

Inzu zubatse mu buryo bugezweho zo guturamo, ndetse n'izindi zubatswe mu buryo bugezweho, zo gutangirwamo serivisi z'ubucuruzi, hagiye harimo ibiti by'inganzamarumbu ndetse harimo n'umuhanda wa kaburimbo, ni i Remera kwa Rando.

Icyapa kinini kiri ku nzu y'ubucuruzi cyerekana sosiyete ikora ibijyanye n'umukino w'amahirwe ndetse. Imbere yayo hari umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho Emutiyene. Inyuma hari inyubako imeze neza y'amagorofa atandukanye arenze imwe.

Igipangu kinini cyubatswe mu buryo bugezweho cyubakishijwe amakaro, kiri inyuma y'inzu yubatse neza ndetse mu buryo bugezweho, ifite ibirahure byijimye ndetse ku ruzitiro hariho n'amatara.

Icyanya cy'ubutaka cy'imiturire kigizwe n'inzu zitandukanye zo kubamo n'iz'ubucuruzi, inzu zo kubamo nizo ziganje kurusha inzu z'ubucuruzi nkeya z'amagorofa menshi.

Ubusitani budatunganyije burimo ibiti bitandukanye by'imbuto ndetse n'iby'umurimbo, inyuma hari inzu itatse n'amabara y'umweru bigaragara ko ari i Kanombe.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru yandikishijwe n'amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'ubururu, hari rapo y'igihugu cy'u Rwanda n'icyapa cy'imyubakire, cyerekana nyirikuka ndetse n'ufite mu nshingano iyo nyubako imyubakire yayo.

Icyanya imodoka zihagararamo kirimo icyapa kinini cy'iganjemo amabara abiri y'ubururu ndetse n'ayironji, ni icyapa cyamamaza ikinyobwa kimwe, ku ruhande hari ibinyabiziga bihagaze hari ndetse n'ibiti n'inyubako.

Igikorwa remezo cy'inyubako igizwe n'amagorofa arenze abiri, hari inzu z'ubucuruzi ndetse hasi hari ibinyabiziga ndetse hari na sitasiyo itangirwamo za risansi.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.

Urukuta rw'imbibi rukoze mu matafari ruriho amatara atanga urumuri ndetse n'imbere harimo inzu z'ubwoko bugezweho zifite ibigega bifata amazi ndetse hari n'amashami atanga sinyayre.

Imiturire yo mu gace ka Kimironko inzu zubatse neza zigaragaza ubwiza bw'umujyi, inzu nyinshi zubatse zitageretse, izindi zimwe zirageretse, inzu nizo kubamo.

Umuhanda munini w'igitaka ku ruhande rwaho hari imodoka zihagaze, imodoka zifashishwa zitwara abagenzi zo mu ibara ry'umweru ni ebyiri ndetse n'indi y'umukara, hari abantu bari kugenda ndetse ku ruhande hari ubusitani burimo ibiti.

Inyubako zigezweho zubatse neza zigeretse ziri i Remera z'ubucuruzi, imwe igereretse rimwe, indi igeretse kabiri, hasi hari ibinyabiziga ndetse hari n'umumotari utwaye umugenzi.

Umuntu umanuka umuhanda wa kaburimbo mutoya iruhande rwe hari inzu yubatse mu magorofa arenze abiri hari ndetse ubusitani buto buto ndetse butemo n'ibiti.

Umuhanda muto ukozwe mu mabuye, urimo abantu b'uruhu rwera bahetse udukapu ndetse hari ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye bihagaze muri icyo cyanya, imbere hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Igikorwa remezo cy'umuhanda wa kaburimbo munini urimo ikinyabiziga cy'ipikipiki itwara abagenzi, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bukiri butoya burimo ibiti bikiri bito, ku ruhande hari inyubako nini y'amagorofa itangirwamo serivisi z'ubucuruzi.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo umuntu umwe uri kugenda n'amaguru. Ku mpande zawo hagiye hari ubusitani ndetse n'ibiti ndetse n'inzu zifite ibipangu byiza.

Ihuriro ry'imihanda ibiri ya kaburimbo, umuhanda w'abanyamaguru bambukiramo ndetse n'ikinyabiziga gitwara abagenzi benshi gifite ibara ry'umweru hari n'imodoka itwara imizigo mikeya, ndetse n'ikamyo itwara imizigo myinshi, hari n'abantu.

Umuhanda munini wa kaburimbo, harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, hari amapikipiki, hari amagare, hari imodoka ntoya ndetse n'ibikamyo bitwara imizigo. Hari inzira z'abanyamaguru ndetse ku ruhande hateye ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo uturongo dusize amabara atandukanye, umweru ndetse n'iy'umuhondo, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, ndetse mu muhanda harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye.

Igikorwa remezo cya leta cy'umuhanda munini wa kaburimbo urimo ikorosi. Mu mpande hari ubusitani ndetse burimo indabyo n'ibiti. Hari amapoto y'amatara akoreshwa nijoro ndetse inyuma hari ibikorwa remezo by'inyubako nziza.

Abanyamaguru bambukira mu kayira kabugenewe ko kwambukiramo mu muhanda munini wa kaburimbo, bagana no mu wundi muhanda wa kaburimbo, hakaba harimo jaride ndetse n'amapoto y'amatara, n'ibyapa byamamaza.

Agahanda gato kajya mu muhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amapikipiki n'amagare, hari kandi n'uturango tw'amabara y'umweru, tugaragaza aho umuhanda urangirira ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru.

Imihanda ibiri umwe uzamuka undi umanuka, harimo ibinyabiziga bitandukanye; mu muhanda uzamuka harimo ibinyabiziga by'ipikipiki aho abamotari bahagaze mu gahanda abanyamaguru bambukiramo kugira ngo bambuke. Hari kandi n'akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda munini uzamuka ndetse n'umanuka, uzamuka urimo ikinyabiziga kigendera ku mapin ane, umanuka urimo ikinyabiziga kigendera ku mapine abiri kiriho n'umumotari, hari kandi n'utuyira tw'abanyamaguru turi ku ruhande.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga. Hari ibinyabiziga bibiri icy'imbere gisa nk'umukara icy'inyuma gisa nk'umweru ku ruhande hari umugenzi uri kugendera mugahanda k'abanyamaguru.

Igikorwaremezo kinini k'imihanda ya kaburimbo minini, irimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, higanjemo amapikipiki atwara abagenzi, ku mpande hagiye hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabyo.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugizwe n'ibice bitandukanye, harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, amapikipiki, amamodoka ndetse n'izitwara abagenzi, harimo ubusitani buteye neza burimo indabyo ndetse n'ibiti.